Icyi ni icyapa kiriho umusaza cyangwa uko abandi babivuga ngo umukambwe ufashe agakoni kiwe wiyicariye ku ntebe, handitseho ngo nicyo gihe cyo kukugoboka mu za bukuru ibi bikavuga ko uba warabitse amafaranga, hanyuma mu gihe cy'izabukuru utangiye kurwara indwara karande bakaba bakugoboka ayo mafaranga wabitse bakayakugezaho kubera ko uba utagikora.

Iki ni icyapa cyerekana kandi kinaranga ubwishingizi mu gihe cy'umutingito, aha ngaha washyiramo ibikorwa byawe by'ubwubatsi, ubworozi, ibinyabiziga byawe ndetse n'ubwivuzi bwaba ubwawe ubuzima, ibi ngibi bikugoboka mu gihe habaye umutingito ndetse n'ibindi biza byava kuri uwo mutingito.

Ubu ni ubwishingizi cyane cyane bureba ubuzima igihe wagize uburwayi, igihe wahuye n'impanuka ikabije n'igihe utangiye kurwara indwara akarande ziza igihe umuntu afite izabukuru. Ibi ngibi bikaba byafasha buri muntu wese kuba yakizigama amafaranga yiwe, kugira ngo azagere kuri ubwo buvuzi bwiza kandi burambye.

Umusaza n'umukecuru bafatanye bari ku cyapa cyerekana ndetse kinaranga ubwishingizi aho bwaba bubarizwa ndetse n'andi makuru yose yaba ajyanye nabwo. Ubu bwishingizi bugufasha mu rugendo rwawe rw'ubwivuzi igihe ufite indwara karande cyangwa ugeze mu gihe cy'izabukuru.

Itangazo ryo kwamamaza ubwishingizi bwa kugoboka mu gihe ikinyabiziga cyawe cyaba cyagize impanuka itaguturutseho ikinyabiziga icyo ari cyo cyose haba moto ndetse n'imodoka bukaba bwitwa Sonarwa Gerali bukaba bukorera muritawa tawa TU ndetse hakaba hariho n'imero wakoresha kugirango ubagereho.

Urubuga rwa banki rukorera kuri murandasi mu gihe ufite telefone yawe ngendanwa, aba bakaba bakwereka uburyo amafaranga yawe yaba yavuyeho, ibyo wishyuye ndetse n'aho wishyuriye, igihe cya nyacyo ndetse n'itariki ya nyayo. Ibi bikaba kuba byagufasha mu gutera imbere ukirinda gusesagura ndetse n'ibindi byinshi mu iterambere.

Banki ubu ishobora kuba yakoresha terefone ngendanwa ku buryo wakwihaza ukareba amakuru kuri konti yawe utarinze uva mu rugo, ahubwo ukoresheje terefone ngendanwa hamwe na murandasi ukaba wareba uburyo wishyura Rwanda reveni otoriti cyangwa imisoro n'amahoro, ukaka inguzanyo, ukaba wareba cyangwa wakizigama mu bundi buryo.

Urubuga rukorera kuri murandasi rwa na NCBA, rushobora kuba rwakwifashishwa mu kureba konti yawe ukimeze, mu kuba wakohereza amafaranga, mu kuba wagura itumanaho cyangwa mu kuba wakwishyura ibintu ugomba kwishyura. Ibi kandi bikaba binerekana, inkuru zose cyangwa amakuru yose waba ushaka kuri konti yawe.

Urubuga rwa banki ya Kigali rukorerwa kuri murandasi, rukaba rwagufasha kureba uko konti yawe imeze amafaranga ukayohereza bitakugoye cyangwa bidasabye ko wirwa ujya kuri banki, ukaba wakwishyura inguzanyo cyangwa ukishyura ibyo uhashye nta kugenda kandi bikaba byagufasha no kureba uko ikarita yawe iri gukoreshwa mu gihe udahari.

Urubuga rwa banki ya Kigali rukorera kuri murandasi ushobora kurukoresha igihe ufite telefone ngendanwa yawe ukaba wareba uburyo wishyuye ideni, amafaranga uhabwa ku kwezi ndetse n'ibyo ushaka guhaha byose, ibi bikakorohereza gutera imbere kugira ngo bikuririnde gusesagura kandi utiririwe ujya kuri banki cyangwa ku ishami ryayo.

Konti yawe kuri murandasi yerekana ibikorwa byose wakoze, harimo amafaranga yasohotse, ayinjiye cyangwa asigayeho. Ibi bikagufasha mu kwiteza imbere ndetse kwirinda gusesagura mu gihe udafiteho menshi kandi ukamenya uko uhagaze. Ibi bikaba byagufasha kureba konti yawe utiriwe ujya kuri banki ku cyicaro gikuru.

Ni abantu batatu ,bari mw'isoko ry'imyenda y'abagabo ,hakaba harimo umugore usa nkaho ariwe mucuruzi, harimo umusaza usa nkaho ari kwigera ishati nziza yamukwira, hakaba harimo n'umusore mwiza ugiye mu rwambariro, kwigera imipira yamukwira ,ibi bikaba byamufasha kuza guhitamo iyamubera ,cyangwa iyaba nziza kurusha izindi.

Iduka ry'imyenda ricuruza imyenda y'abagabo itandukanye, nk'amashati harimo amabara atandukanye ubururu umuhondo umutuku icyatsi ndetse n'kigina, uraza ukigera nta mafaranga tuguca mu kwigera uraza ukihitiramo ugukwiriye kandi ukubereye kandi ni ku giciro cyiza cyane.

Isoko rito kandi ryikorera, ricuruza imikufi yo mu ijosi, iyo ku kirenge ndetse n'iyo ku biganza bitewe weho n'iyo ukunda, harimo amabara menshi atandukanye, harimo umweru, umuhondo, umutuku, ubururu bwerurutse ndetse n'ubururu bwijimye, biterwa n'iryo wahisemo cyangwa irigukwiriye, amahitamo ni ayawe.

Abagabo babiri bari kugirana ikiganiro bareba muri mudasobwa, hari umwe uri gusobanura wambaye ishati y'ubururu ndetse na karuvati irimo uturongo tw'umutuku ndetse n'utundi tw'ubururu, hakaba hari uwundi ufite uruhu rwera, akaba yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, urabona ko bari kuvuga ibintu byerekeye imishinga.

Iduka rya kijyambere ricuruza imyenda itandukanye y'abantu buri wese mu rugero rwiwe, harimo imyenda y'abagore iy'abana, iy'abagabo ndetse iyo ushaka yose kereka utaje kwigera, kandi hejuru hari parafo irimo amatara meza ya kijyambere, hari n'udutebe iyo unaniwe uraza ukiyicarira.

Iduka rinini kandi rya kijyambere ricuruza imyenda y'abagabo, harimo imipira migufiya, amakote, inkweto, amapantaro y'ubwoko bwinshi butandukanye, uraza ukihitiramo bitewe n'ibara ushaka. Hari imipira y'amaboko magufi isa umuhondo, umweru, icyatsi cyangwa irindi bara ryose waba ushaka, uraza ukihitiramo ni amahitamo yawe.

Iduka ryiza kandi rinini, ricuruza ibyerekeranye byose n'abagore, ubwo ndavuga imyambaro, amashati, amajipo, inkweto zabo ndetse n'amapantaro, bakaba babigurisha ku giciro gitoya, kandi iyo uje bakwemerera kwigera nta kiguzi bashyizeho.

Iduka rinini kandi rya kijyambere, ricuruza kandi ryikorera imyambaro ndetse n'imitako gakondo iva ku bikoresho, cyangwa ibyo dukura mu Rwanda, harimo uduseke, harimo imitako y'ubwoko bwinshi y'ibumba, harimo ndetse n'imyambaro kinyafurika ari yo bitenge, ibi biteza imbere igihugu cyacu kandi bigasakaza n'umuco ahantu hose.

Iduka ry'imyenda y'abagabo rikorera mu Rwanda, rikaba ryifashisha imyambaro Nyafurika ndetse n'ibikoresho nyafurika nk'uko benshi babyita ibitenge. Harimo amashati y'ubwoko bwose washaka, ibara washaka, uraza ukigera, ukihitiramo ugukwiriye kandi uwo ushimye. Riri ku giciro cyiza kandi gihendutse.

Iduka rikorera mu Rwanda ricuruza kandi rikaba rinikorera ibikapu byiza cyane by'ubwoko bwinshi butandukanye. Hari icyo guheka mu mugongo, hari icyo guheka ku ruhande, hari icyo gutwaramo ibintu byinshi nk'abantu bagiye isafari cyangwa mu rugendo, hari icyo umunyeshuri ashobora gutwaramo amakayi ndetse n'ibindi byinshi.

Iduka rinini ricuruza imikufi y'abagore bambara mu ijosi, uraza ukihitiramo ayo ushaka kandi akubereye kandi icuruza ibintu biva kuri gakondo yacu, cyangwa ku bitenge, uraza ukihitiramo ibara rikubereye, ibi byose ubibonera ku giciro gito cyane kandi bikaba byateza imbere ibintu biva mu Rwanda.

iri rikaba ari iduka rinini ricuruza kandi ryikorera imyenda rikoresheje imyambaro yacu gakondo aricyo gitenge kandi rikaba rikorera mu gihugu cyacu cy'urwanda rikagurisha ibikorwa byayo hanze y'igihugu nkunko benshi babivuga ngo nimade in rwanda ibi biteza imbere igihugu cyacu kandi tukirinda gutega amaboko ku bihugu by'abanyamahanga

Ni isoko ryiza ritarimo akavuyo, hapanzemo amashati y'ubwoko bwose, ubwo niyo bacuruza, afite amabara atandukanye umweru, umuhondo, umukara ndetse harimo na za karuvati wajyanisha n'ayo mashati, harimo ndetse n'amakote wajyanisha n'uwo muderi wawe ugiye mu kazi, mu bukwe ndetse n'ikindi kintu cyagusaba kwambara neza.

Imodoka nziza cyane y'umukara iri mu muhanda, ikaba ari iya Hyundai yakozwe muri bibiri na cumi n'icyenda, ikaba igurishwa kuri miliyoni cumi n'eshanu gusa. Iyi modoka nta hantu itagenda, haba mu bigugu, mu muhanda w'igitaka ndetse n'umuhanda ukomeye cyane wo mu musozi, iyi modoka ntabwo yayitangwa.

Ni imodoka nziza nini y'umukara yakozwe n'uruganda rwa Yundayi, iyi modoka irihuta kandi nta bibazo byinshi itera nko kuba itagenda mu muhanda w'igitaka ahantu hose irahagenda. Umuhanda wa kaburimbo irawugenda, umuhanda w'igikuku ikawugenda ndetse n'ahagoranye ntabwo watinya kuyijyanamo.

Imodoka nziza kandi ikomeye ifite ibara ry'ivu kandi ikaba yarakozwe n'uruganda rwa hundayi, ushobora kuyibona ugiye ku isoko rya cars Kigali market, iyi modoka ikaba igenda ahantu hose mu gitaka, umuhanda w'igikuku kandi imisozi nayo ntago itinya kuyigendamo.

Ni bagabo batanu bari imbere y'imodoka eshatu, ndetse n'imbere y'inzu nziza ikozwe n'ibirahure, hejuru handitseho mahina, ibi byerekana ko hari umwe muri aba bagabo ushobora kuba yatsindiye igihembo cy'imodoka, bitewe n'imikino yari ari gukina.

Imodoka nziza y'umukara iri kugurishwa iri mu bwoko bwa toyota rava fo hayiburidi. Ikaba yarakozwe muri bibiri na cumi na karindwi, kandi ukaba wayibonera ku mafaranga make cyane ari yo miliyoni 30,000,000. Hanyuma iyi modoka ikaba idakangwa no kuba yagenda mu misozi cyangwa imihanda y'ibikuku cyangwa imihanda y'ibitaka. Hose igendamo.

Abagabo babiri bari imbere y'ibinyabiziga by'imodoka nziza cyane, imwe isa na kaki iy'indi ifite ibara ry'ivu, umwe muri abo bagabo ari guhereza mugenzi we igifunguzo kinini cyerekana ko yaguriye imodoka aho ngaho cyangwa ashobora kuba yayitsindiye, kuri icyo gifunguzo handitseho Akagera motozi, bishatse kuvuga ko ariho bavanye izo modoka nziza cyane.

Abagabo babiri begereye imodoka nziza y'umukara, umwe muri bo ari gutanga igifunguzo kuri mugenzi we. Inyuma hari inzu yanditseho Akagera motoze bikaba byerekana ko ariho yavuye, ko ariho yaguriwemo. Kugira ngo mu Rwanda ube watwara imodoka bisaba kuba ufite icyemezo kibyerekana nk'uko bacyita perimi.

Ni umugabo w'umusirimu wambaye ingofero isa iroza, ndetse yajyanishije n'ishati ye kuko nayo isa iroza, ipantaro yambaye iy'umukara, ari imbere y'imodoka n'ayo y'umukara iri gusohoka mu gipangu. Kenshi na kenshi biba ari byiza kujyanisha, kubera ko byerekana uburyo uri umusirimu ndetse uburyo uri n'umunyamujyi.

Umugabo wambaye neza cyane, ikote risa umukara ndetse n'ishati isa ubururu harimo na karuvati y'umukara, ari imbere ya mudasobwa urabona ko hari ibintu ari kwandika, impande ze hari icyuma kibara amafaranga ubwo akora muri banki kandi ku meza yiwe hariho ibindi byuma bitandukanye, ibi bimufasha kuba yatanga serivisi atari guhubuka cyangwa atakoze ikosa.

Iyi ni inote y'amafaranga y'u Rwanda, ikaba isa ubururu harimo n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, iyi note ikaba ihagaze amafaranga igihumbi cy'amanyarwanda ikorerwa kandi ikanatangwa na banki nasiyonari y'u Rwanda, hashushanyijeho inkende nk'uko mu Rwanda hazwiho kuba bagira ibirunga birimo inyamaswa nk'inkende ndetse n'ingagi.

Amafaranga y'amanyamahanga ari mu bwoko butandukanye ari imbere y'imashini isaka ahari telefone, harimo inote isa umutuku ndetse n'iziri hasi zisa ubururu, hakaba harimo n'ibiceri ibito ndetse n'ibinini. Aya mafaranga ushatse kuyashyira mumanyarwanda byagusaba kujya ku kigo gishinzwe gutanga iyo serivise yo kuvunjisha.

Ameza ateretseho mudasobwa ebyiri ndetse n'icyuma kibara amafaranga, inyuma yaho hakaba hari ikirahure kiriho umuntu uri gusinya yerekana ko ashobora kuba afashe amafaranga cyangwa iyindi serivisi muri banki akaba ariko kubisinyira ko ibyo bintu abyemeje nka we nyirabwo

Ni amata meza ari mu bicuba. Amata ni meza kubera ko arinda bwaki, agatera intungamubiri, akomeza amagufa, ndetse n'amenyo, kandi akaba yakifashishwa mu kuba umwana yareka konka, ariko agakomeza akayanywa ntagire ikibazo icyo ari cyo cyose.

Aya akaba ari amapaki ane y'ubwoko butandukanye bw'ibiribwa bikomoka ku mata, hejuru harimo imigati, hasi hakaba harimo amacapati, ibi byose bikaba bitera imbaraga kandi bikaba bifite intungamubiri zihagije kandi zongewemo ugereranyije n'ibihingwa tuvana mu murima.

Umuntu uri gufata amafunguro atagoye gutegura akaba ari capati nkuko' benshi bayita, iyi ikaba ikozwe mu igarini, hakaba harimo amata ndetse na magi, izi zitera imbaraga zikaba zagufasha kwirwa umunsi wese umeze neza kandi rikaba rihwanye no kuba wafata intungamubiri zavuye ku binyabijumba.

Umugabo uhagaze mu duka bacururizamo amata ndetse n'ibijyanye byose n'amata, imbere ye hakaba hari intebe ndetse inyuma ye hari ameza. Dukomeje imbere y'iwe hari icyuma gikonjesha nk'uko abandi bacyita firigo, kikaba kibikwamo amata ndetse n'ibikomoka byose ku mata kugira ngo bitabora cyangwa bikanuka.

Umubyeyi uri mu iduka ricuruza amata ndetse n'ibindi byose bijyanye n'amata, impande yiwe hari icyuma gikonjesha, kiri mu ibara ry'umutuku, haba harimo ibinyobwa nka fanta cyangwa ayo mata, ku ruhande hari ameza ateretseho ibyo yari ari gufata. Harimo igikombe cy'umweru cyangwa ikindi gikombe kirimo amata, imbere hari amandazi.

Ni umukobwa batangaye uri imbere y'inzu. Ibi byatewe na banki ya Copedu igufasha mu kwizigama, kugurizwa ndetse no gutera imbere byose ubikoresheje telefone ngendanwa ibi ngibi bifasha abantu mu kwiteza imbere mu mirimo yabo bakora yose ndetse n'uko bashobora kwifashisha ayo mafaranga mu gukemura ibibazo byabo bya buri munsi.

Ni umugore wambaye umupira w'umuhondo ufite telefone ngendanwa mu ntoki, ari kwishyura abinyujije kuri iyo telefone. Ibi byoroshya kuba utagendana amafaranga mu ntoki cyangwa ngo bayakwibe. Byoroshya kuba mu gihe utateguye kwishyura cyangwa kugura ikintu ariko uyafite kuri telefone ngendanwa byakorohereza.

Urubuga rukorera kuri murandasi rwitwa Nala, rukaba rwagufasha kureba konti yawe uko ihagaze utarinze ujya kuri banki, ukaba wakohereza amafaranga menshi ava mu gihugu cyawe ajya i mahanga, kandi nawe bakaba bayakoherererezaho, bikaba byagufasha mu kwifashisha mu rugo ndetse ukemura n'utubazo twa hato na hato nko guhaha, kwishyura amazi n'umuriro, ndetse n'ibindi

Iki ni ikemezo gitangwa kandi kigashyirwaho umukono n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenue Authority, kikaba gihabwa umuturage cyangwa umuntu wese waba ufite bizinesi ari kwinjiza ibintu mu gihugu byemewe kandi bifite umutekano. Ibi bikaba bikorerwa kuri gasutamo ndetse n'ahandi hose irindi shami ryose ry'iki kigo ribishinzwe.

Ni icyemezo cyerekana ko uruganda rwa simako rukora ibijyanye n'ubwubatsi, byatanze amafaranga y'isuku kuri Rwanda reveni otoriti ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, bikaba byarakorewe ku itariki z'ukwa gatatu mu kwacyenda bibiri na cumi n'umunani, bikaba byarakorewe mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima.

Icyemezo gitangwa kandi kigashyirwaho umukono n'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu rwanda Rwanda Reveni Otoriti, cyerekana ko nta misoro cyangwa umwenda ufitiyemo iki kigo. Ibi bikaba bimara amezi atatu kandi ukaba wabifatira kuri murandasi yawe utiriwe ugenda kuri gishe cyangwa ku cyicaro gikuru.

Icyemezo gitangwa kandi kigashyirwaho umukono n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Revenue Authority, cyerekana ko kandi gihamya ko ubu wemerewe gutangira business yawe cyangwa ubucuruzi bwawe, kubera ko wahawe nimero. Iyo utarahabwa nimero kugira ngo ukore ubucuruzi mu Rwanda biba bitemewe, kandi bagufashe bagufunga.

Icyemezo gitangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenue Autority, iki kikaba cyerekana ko uyu muntu yaguze ibikoresho bya elegitoronike, akaba yishyuye n'amahoro yiwe kugira ngo abyinjize mu gihugu. Ibi bikaba bigabanya kwinjiza ibikoresho bitemewe nk'uko abandi babyita forode, kandi bikaba biteza n'Igihugu imbere ku buryo bakubaka imihanda.

Icyemezo cy'ubwishyu gitangwa kandi kigashyirwaho umukono n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenue Authority mu gihe wishyuye kandi umaze kugura ibicuruzwa byawe bivuye imahanga, Ukaba wakwishyura umusoro nta kindi kigoranya kirimo. Ibi ngibi bikaba bikorerwa kuri Gasutamo ndetse n'ahandi hose babishinzwe.

Icyemezo kikaba ari n'ikimenyetso cyerekana ibyabereye kuri konti yawe iri muri banki cyerekana itariki igihe byatangiriye n'itariki y'igihe byarangiriye, amafaranga yavanweho kandi n'aho amafaranga yagiye, ibi bikaba byarinda ubusambo ndetse n'uburiganya bubera kuri konti z'abantu bitwaje ngo ni abakozi baho.

Icyemezo gitangwa kandi kigashyirwaho umukono n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda Rwanda reveni otoriti cyerekana ko utarimo umwenda w'imisoro, ibi bikorwa igihe umaze kwishyura imisoro wari ufitiyemo imyenda cyangwa amahoro byerekana ko wari ufite umwenda muri iki kigo.

Iki ni ikiganza cy'umugore mwiza cyane, akaba ari kubara amafaranga akoresheje imashini isanzwe ibara amafaranga muri Banki, aya mafaranga akaba ari amanyamahanga, harimo amadolari y'ijana ndetse n'izindi nyinshi, aya mafaranga wayabona ku kigo kivunjisha kandi kikaba kinacuruza amafaranga, uraza ukayahindura mu manyarwanda ukaba wayashyira mu manyamahanga.

Ibganza biri kubara amafaranga y'amanyamahanga kubera ko handitseho ikirimi kitari ikinyarwanda cyanditse mu bundi buryo. Aya mafaranga ugiye kuyavunjisha mu manyarwanda, bisaba kujya aho bacururiza amafaranga cyangwa nk'uko abandi bahita forekisi biro, imbere yiwe kandi hari imashini imufasha mu kubara amafaranga.

Inoti ishushanyijeho umugore uri guhinga n'umugabo inyuma yiwe, itangwa na banki santarale ya Kongo, hariho amafaranga magana abiri ubwo ni ko agaciro ihagaze. Iyi ngiyi kugira ngo uyibone mu mafaranga y'Amanyarwanda, ugomba kubanza ukajya ku cyicaro aricyo kivunjisha amafaranga kugira ngo kiyashyire mu manyarwanda.

Ni ikiganza cy'umugore gifite inote z'amafaranga yo hanze cyangwa nk'uko benshi babivuga amayero y'ubwoko butandukanye. Hari inote ya mirongo itanu, hari ebyiri z'ijana ndetse hari n'izindi eshatu za makumyabiri. Aya mafaranga avunjwe mu manyarwanda, wakubaho icy'ane kugira ngo umenye agaciro kayo.

Umugore mwiza w'umunyamahanga ubona ko yafunze imisatsi yiwe neza ndetse yambaye neza afite amafaranga y'ubwoko bwose mu biganza byiwe uko ari bibiri, harimo amafaranga y'inote ashushanyijeho umugabo asa icyatsi, asa umuhondo, asa ubururu ndetse n'asa icyatsi ubona ko atandukanye mu biciro ndetse mu kindi kiganza cyiwe harimo ibiceri, harimo rimwe ndetse na gatanu.

Amafaranga arambitse ku meza y'ubwoko butandukanye, harimo inote yewe n'ibiceri, inote ya mbere iri hejuru isa ubururu ikaba ishushanyijeho ijana, indi ikaba isa umutuku, harimo n'ibiceri bisa n'izahabu neza cyane, ibi kuba wabivunjisha mu manyarwanda bisaba kugira ngo ujye ku cyicaro gishinzwe kuvunjisha.

Ibiganza biri kubara amafaranga y'amanyamahanga, hejuru hariho inote isa ubururu yanditseho mirongo icyenda, hasi hariho n'izindi note zisa mu yandi mabara harimo nk'umuhondo, ushaka kuba wayavunjisha mu manyarwanda ujya ku kigo kibishinzwe ari cyo cya foregisi biro bakaba bayakugunjira ukaba wakicara uyafite.

Inote ebyiri ubona ko buri ruhande ari urwawo, hariho amafaranga mirongo itanu, ariko akaba atangwa na banki Santarare ya Kongo, ibi byerekana ko ari amafaranga y'amanyamahanga y'abaturanyi bacu b'abakongomani. Aya mafaranga afite agaciro iyo ujya kuyavunjisha, ku kigo cyangwa ibiro bishinzwe kuvunjisha amafaranga.

Umugabo uri kwakira amafaranga y'amanyamahanga, ashushanyijeho umugabo ufite imisatsi myinshi kandi hakaba hariho n'ijana, ibi byerekana ko aya mafaranga atari ayo mu Rwanda, ahubwo ari ayo hanze kandi akaba yitwa amadolari, aya mafaranga iyo uyavunjishije mu manyarwanda, ukuba ho icyane kugira ngo urebe agaciro kayo mu manyarwanda.

Inote nyinshi gusa igaragara ni inoti ya magana atanu iriho inzu nini cyane y'umweru kandi hakaba handitseho rupe byerekana ko ari amafaranga yo mu gihugu kitari icyacu aricyo cy'Ubuhinde. Aya mafaranga uyashaka mu manyarwanda byagusaba kujya kuvunjisha ku biro bibishinzwe nk'uko abantu babyita ngo foregisi biro.

Ibi ni ibiganza by'umugabo biri kwakira amafaranga avuye inyuma ya gishe, ibi byerekana ko umuntu yaje kuvunjisha, avanye mu mafaranga y'Amanyarwanda ashyira mu mafaranga y'Abanyamahanga, ibi byemerewe gukorwa gusa n'ikigo gishinzwe kuvunjisha no kugurisha amafaranga, kubera ko iyo ugiye ku bandi ngo barakugurisha kuri make benshi aba ari abatekamitwe n'abatubuzi.

Ibiro bikaba ari n'iduka bicuruza amafaranga nk'uko abino babivuga cyangwa akaba bakuvunjira, amafaranga bakayavana mu manyarwanda bakayashyira mu manyamahanga cyangwa akava mu manyamahanga bakayashyira mu Rwanda. Ibi biroroha kubera ko ntabwo wirirwa ujya kuri banki cyangwa bikaba byanakoroshya uburyo wakoherereza umuntu uri i mahanga amafaranga cyangwa uburyo we yayakoherereza.

Ibiro kandi akaba ari n'ikigo gishinzwe gucuruza no kuvunjisha amafaranga kiyavanye mu manyarwanda kikayashyira mu manyamahanga, cyangwa kikayavana mu banyamahanga kiyashyira mu Rwanda, cyitwa Victoria Forex Bureua, cyatanze impano y'amafaranga miliyoni magana abiri kiyahereza umwana bitewe n'ikintu yatsindiye, na none bitewe n'irushanwa yari arimo.

Iki ni ikigo kikaba n'ibiro bishinzwe kugurisha no kuvunjisha amafaranga kikaba cyitwa Inshuti Folex Bureau ku itariki cumi n'eshatu z'ukwa karindwi bibiri na cumi na karindwi, cyari kiri kugurisha amafaranga yo muri Amerika, mu Bwongereza, muri Australia, Canada ndetse n'ama South Africa byose bikayagurisha mu banyarwanda cyangwa ukayagura mu manyarwanda bakaba baguhera ku giciro gito.

Ibi bikaba ari ibiro bitanga serivise z'itumanaho rya MTN, rikaba rishobora gukorera mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika yo hagati ndetse n'i Afurika y'Uburasirazuba nka Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'u Rwanda n' Uburundi, ibi byoroha kohereza amafaranga ukaba wayavunjisha kandi akaba yagera ku bawe bari i Mahanga.

Ibiro bagurishamo kandi bakaba banavunjishirizamo amafaranga, ukaba wayavana mu mafaranga y'amanyamahanga ukayashyira mu Manyarwanda cyangwa ukaba wayavana mu Manyarwanda ukayashyira mu manyamahanga. Aho nta handi usibye muri DUKOMERE FOREX BUREAU. Aha ngaha bakaba baguhera ku giciro cyiza kandi cyashyizweho, aha ngaha ntiwakwita ku batubuzi bakubwira ngo baragushyira kuri menshi ugatanga amafaranga menshi kubera ko atari byo.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi uri gusohoka ahantu bacururiza amafaranga nkuko benshi babivuga cyangwa aho baguranisha amafaranga ukazana amafaranga y'amanyamahanga bakaguha amafaranga y'amanyarwanda bakuvunjiye. Kenshi na kenshi imbere haba hari abatubuzi bashobora kukubeshya bakakurigarika aho kugira bakubwire ibintu bya nyabyo.

Intebe nziza cyane ziri mu bwoko bwa sopa cyangwa nk'uko abanyamahanga babivuga ngo amadive, zikaba zifite ibara ry'umukara kandi hose hakaba harimo udusego twa kijyambere twiza. Imbere hari ameza washyira mu ruganiriro rwawe, abaza bose bagatangarira aho ubwo buhanga bwavuye cyangwa aho wakuye izo ntebe nziza nk'uko.

Intebe nziza cyane washyira mu ruganiriro rw'inzu yawe, ifite ibara ry'umweru, umukara, ndetse n'akandi kabengerana nk'izahabu, hagati hakaba harimo ameza ya kijyambere hasi ari ibirahure hejuru ibengerana naho nk'umuringa, izi ntebe ukaba wazibona ku giciro gikeya kandi ku giciro washobora nawe kwiguriraho.

Aya ni ameza atatu atandukanye, ariko nanone akozwe mu buryo bumwe, hari ameza yo hasi, aya meza akaba ari manini ukaba wayashyira mu ruganiriro rwawe, hakaba hari n'utumeza dutoya ushobora kwifashisha, mu gihe uteretseho ibikoresho bitoya, ibi bikozwe mu buhanga ndetse n'ubushishozi byerekana, aho iterambere rigeze mu gihugu cyacu.

Intebe nziza ikoze mu buhanga ikoze mu giti kandi ifite ubugeni butandukanye cyane, iyi ntebe wayicaraho uri umwana, uri umusaza biterwa n'icyo ushaka kandi ntabwo byoroha kuyivuna, cyangwa kuba yakwitura hasi ugasanga igize ikibazo.

Ameza manini agezweho akozwe mu bukorikori ndetse n'ubuhanga bw'uwayikoze, iyi ukaba wayifatiraho amafunguro wowe n'umuryango wawe kandi ikoze mu giti cyiza cyane gikomeye, kandi ugisize ukagisiga ibara ushaka ukakigenza nk'uko ushaka kandi wagishyira no mu cyumba cy'uruganiriro cyangwa icyumba cyawe ubwawe ndetse n'ahandi hose ushaka.

Umugabo uri mu gakinjiro gakora utubati, ameza, intebe zigezweho ndetse n'ibitanda bigezweho, kugira ngo ashobore guhaza ibyo abakiriya biwe baba bashaka, ibi ni byiza byoroshya iterambere, kandi buri wese akaba yaryama cyangwa yakoresha intebe ashaka ku rwego abishakaho.

Intebe nziza wakwicaraho mu ruganiriro rwawe ukaganira n'abawe, ifite imisego myiza cyane y'umweru kandi irabagirana, iyi ntebe ikoze mu giti cyiza cyane cya ribuyu gikomeye kidakangwa no kuba cyamungwa n'udusimba duto duto, izi ntebe zikaba wazibonera ku mafaranga make cyane kandi utiriwe ujya kure, izi zikorerwa mu Gihugu cyacu.

Ahantu heza wasohokera ukaza ukabumvira amahumbezi ndetse uri kwinywera n'akantu kawe ko kunywa, aho nta handi usibye ino hoteli, bagufitiye ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye kereka icyo utahisemo, inzoga z'imvaburayi ndetse n'izikomoka aha ngaha mu Rwanda, wowe icyo ukora ni ukuza ukiyicarira bakagufata nk'umwami.

Ahantu heza cyane wasohokera wowe n'umuryango wawe, wowe n'umukunzi wawe cyangwa wowe n'abakozi bawe, hakaba ari hanze, hari udutebe tubiri, duteretseho imitako, aha ngaha ukaba wahafatira amafoto meza kandi hari n'ibiti biguha amahumbezi ukumva muri wowe ibintu biri kugenda neza.

Ishami rya Sonarwa Gerard riherereye Kinamba, Akarere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, ryishingira ubuhinzi ndetse n'ubworozi mu gihe wagize impamvu zitaguturutseho, nk'indwara mu matungo nk'uburenge cyangwa indwara mu buhinzi bwawe byatewe n'udusimba dutoya cyangwa hajemo isuri.

Ibi ni ibiro kandi akaba ari n'ikigo gishinzwe kwizigama ndetse n'ubwishingizi. Mu gihe habaye ibintu byinshi bitandukanye nk'impanuka itaguturutseho, ikaba kuri wowe ubwawe cyangwa ibindi bikoresho byawe nk'imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga cyawe. Aba bagufasha mu gihe cy'izabukuru cyangwa mu gihe ufite indwara karande, utagishoboye gukora.

Inyubako nziza y'igorofa igeretse inshuro zirenga enye, akaba ari iy'ubwishingizi bwa BK Insurence, ikaba yagufasha mu gihe wagize impanuka, mu gihe inzu yawe yafashwe nkongi y'umuriro, no mu gihe impanuka itaguturutseho y'ikinyabiziga cyawe yaba yabaye, kandi yewe igufasha mu gihe cy'izabukuru, mu gihe wizigamiye amafaranga menshi ahagije.

Inzu nziza nini ubona ka aririya kijyambere, ikozwe imbere mu birahure ndetse inyuma hagiye hariho ibiti biteye hejuru. Iyi nzu niy'ubwishingizi bwitwa orudi mico ikaba yagufasha mu kwirinda impanuka za hato na hato, kandi ikaba yanakugoboka mu by'ubuvuzi ndetse no mu gihe cy'izabukuru bakaba bakugoboka kubera ko uba udakora.

Ni inzu nziza igeretse inshuro zirenga eshatu, imbere yaho hakaba hari ibirahuri byerekana ubukorikori ndetse n'ubushobozi abubatsi bari bafite. Ikaba ari iy'ubwishingizi bwa Sanilam. Sanlam igufasha kwishingira ubuzima bwawe, ubw'abana bawe ndetse n'ubw'ibindi bikoresho waba ufite bifite agaciro.

Itangazo rya banki y'abaturage rishishikariza abantu mu kuza gufata inguzanyo, bigendewe n'icyo bashaka nimba ari inguzanyo ku giti cyabo, inguzanyo yo kuvugurura inzu yabo cyangwa inguzanyo bakoresha kugira ngo batangize businesi cyangwa ubucuruzi bw'ubwoko butandukanye, icyo uzana ni umwirondoro ndetse n'ibindi bisabwa kugira ngo iyo nguzanyo uyihabwe.

Ni itangazo rya banki y'abaturage ryatanzwe kugira ngo rishishikarize abantu mu nzego zitandukanye mu kuba baza kwiyandikisha gukorera muri uwo muryango, hari igihe waza uri umuntu usanzwe uri umuntu umwe bagufasha mu kwiyandikisha mu gihe witwaje ibyangombwa byawe byuzuye, hari igihe mwaza muri nka koperative, hari n'igihe mwaza muri umugore n'umugabo cyangwa umubyeyi n'umwana we.

Ifomu yo kwinjira muri banki ya Ekwiti mu gihugu cya Kenya, hariho aho ugomba kwandika amazina yawe cyangwa amazina y'abo muri kumwe mu gihe muri koperative, mugashyiraho umukono cyangwa nkuko benshi bakunze kuwita sinyatire mugashyiraho n'itariki byakorewe. Buri umwe wese aba agomba kubikora kugira ngo babashe kubaha konti yanyu ubwanyu nta kigoranye.

Ababyeyi benshi bakikije umugabo urimo hagati nk'aho ari kubaha imfashanyo cyangwa indi nguzanyo kubera ko bateze amaboko kandi bafite n'ibindi bikoresho mu ntoki, ibi byerekana ko iyi ashobora kuba ari koperative iyobowe n'uyu mugabo kubera ko ariwe bari hagati.

Icyemezo gitangwa n'umukoresha kigahabwa umukozi wiwe byerekana ko uwo mukozi afite akazi kaba kamwinjiriza amafaranga kugira ngo akunde ahabwe inguzanyo muri banki bitewe n'icyo bari kumusaba. Ibi byoroha kugira ngo bazabone uko baza kumwishyuza cyangwa bazabone uko aho baza kumubariza mu gihe habaye ikibazo.

Ni mu isoko ry'ibiribwa urabona ko buri wese ari kuza yihitiramo bitewe n'icyo ashaka, harimo imyumbati, ibijumba, ibitunguru, karoti ndetse n'imiteja, kurya indyo yuzuye ni byiza bikurinda kugwingira ndetse bikaba byakurinda na bwaki nkuko'uko benshi babivuga.

Ni isoko rinini ry'iterambere, rigeretse inshuro zirenga eshanu, hasi haberamo gutanga ibiribwa, ahakurikiyeho hakaberamo kugurisha imyenda, ahakurikiyeho hakabamo kugurisha ibikoresho byo mu nzu, ibi byoroshya kuba wabona aho ubariza buri kimwe cyose ushaka, ndetse bikarinda n'akavuyo mu isoko.

Umusore wambaye ikabutura ndetse n'inkweto z'umukara, afite telefone ngendanwa mu ntoki ziwe. Ku ruhande hari umutayeri cyangwa umudozi nkuko tubizi mu kinyarwanda uri kudoda imyenda ya kinyafurika ikoze mu bitenge. Aha birerekana ko ari mu isoko kubera ko buri wese aza akikatira kandi akigera ibyo ashaka bimubereye.

Isoko ryiza kandi rya kijyambere rigezweho riri mu nyubako nziza igeretse inshuro zirenga eshanu, hasi bakaba bakoreramo ubucuruzi bw'ibiribwa uhita ufata ako kanya nk'uko bakunze kuyita resitora, hakaba harimo n'agashami gato ka banki ya kigali, hejuru hakaba hakoreramo imisatsi y'abagore barakogoshaka kakahava, hejuru bakaba bacururizamo imyenda.

Abantu benshi bari mu iduka ry'imyambaro y'abagabo, harimo amashati asa n'ubwoko bwinshi uza ukihitiramo ikubereye kandi iyo ushaka, harimo abagabo bari gucuruza buri wese ari kuvugana n'umukiriya wiwe amubwira ibyiza by'iyo shati, uruhu rwayo cyangwa aho yavuye kugira ngo abakurure bamugurire.

Umugabo wambaye ishati y'umuhondo irimo uturongo tw'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari gusaba serivisi mu gakiyosike ka emutiyeni mobiro mani. Iyi ikaba yagufasha kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza amafaranga yawe utiriwe ujyana amafaranga mu ntoki cyangwa ugorwa no kujya kuri banki.

Ni akazu gato gasa umuhondo kari hagati y'ibyapa imbere y'umuhanda n'akazu k'itumanaho rya MTN cyangwa nkuko benshi bakunze kuyita ngo ni kiyoske ya mobile money. Haba harimo umukozi wa MTN wagufasha mu kubitsa kugurizwa ndetse no guhabwa amafaranga uyavanye kuri konti yawe ya mtne mobile money ku buryo wakwifashisha mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Ikigo k'itumanaho mu Rwanda MTN, yakuzaniye uburyo wakwishyura, wakwishyurwa ugashyira amafaranga kuri konti yawe muri telefone ngendanwa, utarinze ujya kureba umukozi wayo, ibi bikaba byitwa momopeyi, icyo ukora ni ugukanda akanyenyeri ijana na mirongo itadatu na gatanu, akanyenyeri gatatu, akadirishya ukuzuzamo imibare.

Umugore wambaye umupira w'umweru ndetse n'ubururu, ameza amuri imbere ateretseho agapapuro k'umuhondo kerekana ko aho hantu hatangwa serivisi za mobayilo mani, ndetse n'amamashini abiri amufasha mu gukora izo serivise; hari na telefone ngendanwa ushobora kwifashisha mu kubitsa cyangwa kubikura amafaranga.

Ni umugabo uri guparika igare ryiwe rya siporo, imbere y'ipangu gisa ubururu yambaye umwenda usa icyatsi ndetse ahetse n'igikapu gisa icyatsi cyanditseho vuba vuba, iyi vuba vuba ikaba yagufasha kubona ibintu ushaka ubivanye kuri murandasi utarinze uva iyo uri.

Isoko ryo kuri murandasi ryitwa KiKUU, hariho imyenda myiza y'abana, inkweto z'abagore, terefone ngendanwa, amatara, hariho ibikapu yewe by'abagore nk'uko benshi bakunze kubyita amasakoshi, bakwereka uburyo urabigura, uburyo bizakugeraho kandi ugashyiraho na nimero yawe ngo nibajya kubikugezaho, bazaguhamagare bumve aho uherereye.

Ikicaro cy'ikigo gikorera kuri murandasi, hariho abagore babiri bari kwakira ubutumwa bwa buri muntu, hari n'umugabo uri kuri telefoni ngendanwa, inyuma yabo hari ibikoresho regitoronike byerekana ko aribyo bacuruza kuri murandasi yabo. Iki kigo kikaba kitwa Rutsi Rwanda, kikaba wakibonera kuri murandasi uko ubishaka.

Ni isoko ryo kuri murandasi ricuruza ibintu byinshi bitandukanye umuntu ashobora kubigura atari inze ava murugo ndetse nta n'inyishyu iri ku rugendo umuntu aba yakoresheje kugira ngo babimugezeho, harimo imisego harimo umunzani ndetse n'agaterimosi gashobora kuba kabika ibintu bigashyuha mu gihe cy'igihe kirekire.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi, rukaba rukugezaho ibyo watumije kandi ukanahahiraho, bakabikugerezaho ku gihe kandi ntiwirirwe wishyura amafaranga y'uwabikugejejeho. Ibi byoroshya akazi kawe, bikaba byatuma utarinda uta umwanya ngo ugiye kwirwa wihitiramo ibikoresho ushaka, ahubwo ukabirebera kuri telefone ngendanwa, ukishyura, bakaba babikugejejeho mu kanya nk'ako guhumbya.

Isoko ricururiza kuri murandasi ryitwa Ali egisipuresi, rikaba rifite ibikoresho bitandukanye bya eregitoronike nk'imashini, terefone ngendanwa, hakaba hari n'imyenda y'abagabo cyangwa imyambaro y'abagore ndetse n'ibikapu byabo nk'uko benshi babyita ngo ni amasakoshi.

Ni isoko rikorera kuri murandasi ricuruza ibikoresho byakorewe mu Rwanda, harimo imyenda, inkweto za siporo, imyenda y'abagore, imyenda y'abana ndetse n'imikufi cyangwa imiringa y'abagore, ibi byoroshya kuba wagura icyo ushaka utarinze uva mu rugo ndetse bakanabikugezaho nta nyishyu y'urugendo.

Isoko ricururiza kuri murandasi ryitwa Living in Kigali, cyangwa kuba muri Kigali tubishyize mu rurimi rw'Ikinyarwanda, rikaba rifite ibikoresho byinshi umuntu yakenera, ntabwo bisaba kuba wahagera ahubwo icyo ukora, ni ugukoresha telefone yawe ngendanwa, hanyuma ugatumiza, nta giciro bagukata cyo kuba bakugezaho ibintu byawe.

Isoko rikorera kuri murandasi ryitwa kasha ushobora kuguriraho ndetse bakanabikugezaho batakwishyuje ay'urugendo, iyi ngiyi uyisangaho ibintu byinshi bitandukanye harimo ibikoresho byo mu rugo nk'amasabune, omo, amasukari ndetse n'ibindi biribwa bigenda hakaza n'ibindi bikoresho wakenera muri biro byawe nk'intebe cyangwa ameza.

Uru rukaba ari urubuga rukorera kuri murandasi, rwitwa tuma bakaba bagufasha mu guhaha, mu kubikuzanira batarinze baguca amafaranga yo ku rugendo, ibi bikaba byagufasha mu guhaha utarinze uva mu rugo cyangwa ngo kugendana amafaranga ngo barayakwibye, ibi ni byiza kubera ko biteza imbere igihugu.

Isoko rikorera kuri murandasi ryitwa iduka online, ushobora kuguriraho cyangwa ukagurishaho ibintu byawe, bagira imyenda y'abagabo, imyenda kinyafurika, bakagira n'imyenda myiza y'ibara ushaka, icyo ukora ni ukubashaka kuri murandasi ibindi mukabivuganiraho.

Isoko rikorera kuri murandasi ryitwa Yubeyi Onurayini Shopingi, rikaba rikorera muri Kigali kugira ngo umuntu ashobore kwihahira, atarinze ava iwe ndetse atarinze yishyurwa kuba yahahirwa, bakabimuzanira mu rugo. Ibi ni byiza byorohereza iterambere kandi buri wese akabona icyo ashaka ku giciro ashaka.

Ni inzu nziza irimo icyumba cy'ubwogero cyiza ndetse cy'iterambere harimo ikintu cy'umweru cyiza umuntu aryamamo ku buryo yakifashisha mu kuruhuka nkuko benshi babivuga ngo muku reragisa hariho ndetse n'akandi kantu kajyamo imyanda gakozwe mu migano keza cyane ku buryo kagufasha ndetse no gutaka inzu yawe ku buryo haba hadasa nabi.

Inzu nziza ifite ubwogero bwa kijyambere, iherereye muri Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibyumba bibiri byiza cyane kandi ukaba wayikodesha ku bihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, ibi byakorohera kuza gutembera n'umuryango wawe mukaruhukiramo by'iminsi mikeya.

Inzu nini ifite ubwogero bwa kijyambere, iri mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kabeza mu mujyi wa Kigali, ukaba wayibona ku madorari magana atanu na mirongo itanu buri kwezi, iyi nzu ni nziza cyane ku buryo wowe n'umuryango wawe mwaza mukayibamo, mu gihe muri mu kiruhuko cyangwa muvuye i mahanga biterwa n'ibyo ushaka.

Icyumba kinini kirimo amarido agezweho y'amabara atandukanye ndetse n'uburiri bunini bwakwiraho abantu barenga batanu, iyi nzu ikaba iri mu mujyi wa Kigali, ukaba wayibonera ku madorari magana atanu na mirongo itanu, ukaba wayishyura buri kwezi iyi nzu ni nziza kuba wayifata wowe n'umuryango wawe mu gihe mugiye mu kiruhuko.

Inzu nini nziza cyane wasanga muri kigali mu gihugu cy'u Rwanda ihagaze amafaranga makeya 72,000,000 gusa hanyuma ukigurira inzu yawe. Iya mbere ifite amatara ari mu nguni yaka neza cyane, igisenge cyayo akaba ari amatafari agezweho avanze na tiripuregisi ndetse n'inzugi z'ibirahure uraza ukihitiramo ibyo ushaka.

Inzu nziza iri mu kibanza kinini mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali mu murenge wa Kacyiru, ushobora kuyibonera ku madorari icyatanu buri kwezi, iyi nzu yagufasha kuruhuka wowe n'umuryango wawe, mugatembera kandi harimo ubusitani bunini bwiza cyane, bugufasha kureragisa mu mvugo z'ubu.

Inzu nini, nziza cyane iri mu kibanza cyagutse, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kanombe, mu mujyi wa Kigali, ushobora kuba wayibonera kuri miliyoni mirongo icyenda n'eshanu gusa kandi usangamo byose. Ubwo ndavuga inzugi zigezweho z'ibirahure, amatara amurika yewe no mu nguni kandi igipangu kigezweho wafungurisha.

Ni inzu nziza iri mu Karere ka Gasabo, mu Murenge wa Kibagabaga, harimo uruganiriro rwiza ruba rurimo intebe, ameza ndetse na televiziyo nziza. Haba harimo amarido ndetse n'inzugi z'ibyuma. Haba harimo na televiziyo yewe ushobora kureberaho uko ushaka, iyi nzu wayijyanamo n'umuryango wawe mu gihe muri mu kiruhuko.

Inzu nziza ifite ubwogero bwa kijyambere, ubwo ndavuga inzu z'ibirahure ndetse n'ikirahure kinini cy'umweru, umenamo amazi mu gihe uri kwireba mu kirori cyawe cyiza. Iyi nzu kandi ikaba ikozwe n'amakaro gusa, hejuru hari ribuyu, hasi hari ribuyu, ni ibintu byiza cyane kuba wayikoresha.

Inzu nini nziza, iri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe, ikaba iri gukodeshwa, ifite ibyumba bine, ubwogero butatu kandi ku mafaranga make cyane, ibihumbi magana ane by'amanyarwanda buri kwezi, ushobora kuza kuyibamo cyangwa ukayibamo mu gihe cy'ikiruhuko wowe n'umuryango wawe wose.

Inzu nziza iri mu kibanza kinini iherereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Kimironko iri kugurishwa, iyi nzu ikaba ifite ibyumba bine, imbere kuri saro hakaba hakozwe n'ibirahure ndetse n'amakaro gusa, iyi nzu ikaba yaherwa kuri miliyoni mirongo icyenda n'enye gusa.

Abantu bari mu isoko hari kugaragaramo umugore uri kuvugana n'umugabo ucuruje amakote y'abagabo y'uruhu, uyu mugore wagira ngo ari kubaza igiciro cyayo, naho inyuma yabo hari umugore w'undi uri kureba inkweto z'abagabo z'uruhu, hejuru yabo hamanitse ibikapu by'impu byiza cyane kandi byakoreshwa mu buryo butandukanye.

Ni abagabo babiri bari mu isoko bari guhitamo ibiribwa biva mu nganda; ibi biribwa ni byiza kubera ko byoroha kubibika, byoroha kubitegura aribyo kubiteka, ndetse nta n'ubwo bibora vuba, byongera intungamubiri ndetse bitera n'imbaraga; ubikoresha agira ubuzima bwiza ndetse buzira amakemwa.

Isoko ry'ibiribwa cyane cyane imboga n'imbuto, ushobora kuza kwihitiramo ibyo ushaka gufata mu ifunguro ryawe. Harimo inyanya, intoryi, ibitunguru, tungurusumu, imiteja ndetse na karoti, ni ngombwa gufata indyo yuzuye kubera ko bikurinda kurwaragurika bikongera intungamubiri zawe mu mubiri ndetse bigakomeza n'amagufa.

Iduka ry'imyenda y'abagabo kubera ko hamanitse amakote y'ubwoko bwose, hasi hari amashati buri yose n'ibara ryayo, ibi byerekana ko aba baje kwihitiramo umuderi wababera. Aha hari umugore uri kwitegereza ikote cyane akaba ari kureba na mugenzi we w'umugabo ibi byerekana ko yaje kumuhitiramo. Kenshi na kenshi biba ngombwa kureba mugenzi wawe akagufasha guhitamo kubera ko umutwe umwe wifasha gusara.

Ni abagore babiri, bari mu isoko, bari kugura inkweto z'abagabo z'impu, hejuru yabo hamanitse ibikapu byiza by'abagore by'impu, nk'uko bakunze kubyita amasakoshi, kandi impande z'ibyo bikapu yewe hari imikandara y'impu nayo, imbere yabo hari umugabo usa nk'aho ari umucuruzi.

Ni imbaga nyamwinshi, iri mu isoko, urabona ko buri wese ari guhitamo, iby'iwe, cyangwa ari kureba iby'iwe, hari bamwe bari guhitamo imitako igezweho, hari abandi bari kureba imyenda ibabereye, hari n'abandi ndetse bari kureba igiciro umucuruzi ari kubabwira, ngo bihahire ibyo bahisemo.

Ni umugore wambaye agapira gatukura, ari mu isoko ari kwihahira, ibiribwa biba byakorewe mu ruganda, ibi biribwa biba byoroshye kubibika, ntabwo bibora vuba, biroroshye kubitegura, ndetse haba harimo intungamubiri zose, kandi zongeweho ku biribwa bisanzwe twikurira mu murima.

Umugabo n'umugore impande ziwe ubona ko baje kwihahira imitako y'ubwoko butandukanye, hejuru hari umutako urimo ikirahure ahandi hari umutako w'isaha ubona ko ari nziza cyane, harimo ndetse n'imitako ubona yenda gusa n'ibitenge. Ibi bikaba byagufasha mu kuza kwihitiramo umutako ushaka bitewe n'iyi foto ubonye.

Ikarita itangwa n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, akaba ari umunyamuryango mu bwisungane mu kwivuza, ufite iyi karita ntarembera mu rugo kandi uyerekana igihe cyose wagiye kwivuza, igihe wagize uburwayi bugutunguye, uburwayi bw'izabukuru cyangwa igihe wahuye n'impanuka ikomeye aba barakugoboka bakakwishyurira.

Ibiganza biri gusinya ku ikarita ebyiri z'umuhondo, zikaba ari iz'ubwishingizi mu kwivuza nk'uko benshi bakunze kuzita mituelle de sante, zikaba zigufasha mu kwishyura ndetse no kwirinda mu gihe waba urwaye mu kwirinda kwishyura amafaranga menshi, kandi zikaba zakugoboka mu bihe bikomeye, buri munyarwanda wese agomba kuba ayifite mu gihe nta bundi bwishingizi afite.

Aba ni abagore babiri bicaye imbere ya murandasi bari kwandika ibintu bivuye mu mpapuro ndetse n'ibyo uyu mubyeyi ari kubabwira ufite umwana. Aha byerekana ko ari kwa muganga ku rukuta hariho amagambo yanditse ati'' Mubyeyi nyuma yo kubyara isuzumishe kandi usuzumishe uruhinja mu masaha makumya nane nyuma y'iminsi itatu hagati y'iminsi irindwi na cumi n'itandatu'' ibi bikaba bifasha mu buvuzi.

Ikigo kikaba n'umushinga witwa ejo heza kikaba gifasha buri mukozi wese mu Rwanda, kwizigama amafaranga akaba yazayakoresha mu gihe cyiwe cy'izabukuru, cyangwa mu gihe yahuye n'ikibazo umuryango we ukayifashisha mu kubikemura, ibi biba byiza cyane mu gihe umuntu ageze mu gihe cy'izabukuru kuba aba nta zindi mbaraga agifite zo gukora.

Abagore babiri basa neza cyane, bombi bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, aba bakaba bafite ikirangantego cyanditseho "Umunyamuryango ku isonga", inyuma hakaba hari icyapa cyanditseho "RSSB", akaba ari ubwishingizi bushobora kugufasha mu gihe cyo kwivuza, igihe cy'izabukuru, bakaba bakugoboka.

Isoko rinini kandi ryiza cyane rya kijyambere, hejuru ku gisenge hariho amatara arabagirana cyane nk'izuba, hasi harimo utubati turimo ibiribwa bikorerwa mu ruganda. Ibi biribwa biba byoroshye kuba wabika mu gihe kirenga umwaka, kandi ukabitegura byoroshye, biba birimo n'intungamubiri z'ikirenga zirenze kure iz'ibiribwa biva mu murima bisanzwe.

Isoko rinini kandi ryiza rya kijyambere, rikozwe n'amata etageri ndetse hejuru hari amatara menshi na parafo nziza y'ikerekezo. Muri ayo matageri ubona nk'uturongo, harimo ibiribwa byakozwe mu nganda biba byoroshye kubibika kandi bidashobora kubora vuba, ndetse biba byoroshye no kubitegura, ndavuga amafunguro.

Isoko rinini, kandi rya kijyambere, hari abantu bari kwishyura, imbere kuri uyu muntu wambaye umupira usa umuhondo, ibi bikaba byoroha kubera ko niwe ubabarira akoresheje mudasobwa yabigenewe, nabo bakishyura hari abakoresha amafaranga ari kashi cyangwa amafaranga ari mu ntoki, hari n'abandi bakoresha ubundi buryo muri telefone ngendanwa.

Isoko kijyambere buri wese aza akihitiramo ibyo ashaka akabitwara, harimo umugabo uri kwigurira amasorori meza abonerana, inyuma ye hari umugabo wundi ufite indangururamajwi uri kwamamaza ibyo bakoramo aho ngaho, ibingibi bikaba byakurura abakiriya cyangwa bikabageza ku byo bifuza.

Umugore wishimye cyane uri gucunga akagare nkaho avuye guhaha, inyuma ye hari abakozi b'itumanaho rya MTN mu Rwanda, aha ngaha akenshi baguha poromosiyo iyo ukorana nabo cyane, ubwo ndavuga iyo ubitsa amafaranga akenshi, iyo uyabikuza kenshi cyangwa iyo ugura amafaranga y'itumanaho cyane baguha poromosiyo ukaba waza ukihahira ibyo ushaka.

Isoko rya kijyambere rigezweho haba harimo utu etageri cyangwa uturongo tw'utubati babikamo, hejuru harimo kamera zabugenewe zifata amashusho mu gihe habaye ikibazo ikaba yakwifashishwa. Muri utwo tu etajeri cyangwa utwo tubati harimo ibyo kunywa by'ubwoko bwinshi kandi byoroha kubibika ukaba wabifungura kugira ngo ubinywe.